Uko amasoko y'u rwanda ruhahiraho agenda afite amapeta cyangwa se arutana: United state ingana ni bihumbi makumyabiri na biri ni jana na makumyabiri na kimwe na cumi n'umunani, United Kingdom: mirongo itandatu mirongo itanu ni cyenda ,ubugade, uburusiya, indiya, canada, australia, france, china, Italy, nedland, brazil, spain, taki, poland igaheruka uko niko amasoko urwanda ihahiraho ameze.

Ibyumba bibiri by'inzu biherereye mu mujyi wa Kigali, Remera, ukaba wabibamo ukodesha, ukajya wishyura amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi, bikaba bifite umutekano, birimo isuku ihagije.

Inyubako nini iriho ibirango by'u Rwanda, iriho ubusitani bwiza, iriho Ara Esi Esi Bi, ikigo cya Rwanda Sosho Sekiriti Bodi, buri munyarwanda wese agomba kwizigamira, kugira ngo abone ibimutunga ejo hazaza.